Ni mu giturage aho umubyeyi ari kuva kuvoma amazi, ndetse amazi yo gukoresha mu rugo mu mirimo itandukanye, rero mu giturage bira bigoye cyane ntago abantu benshi bafite amazi mu rugo, bisaba ko bajya kuyavoma wenda nko mu bishanga, akaba ariyo bakoresha mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi ku munsi. Rero umumama aba avuye kwivomera cyangwa n'abana yabatumayo kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Abari gutanga ubuvuzi cyangwa se'icyokwita nyine gutuma umenya uburyo ubuzima bwawe buhagaze

Abaturage bari mu cyaro bari kuganira nk'umuryango, inzu yo mu giturage harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bavanze bameze nk'aho bari kuganira ku nama y'umuryango ndetse hagaragara ko harimo n'ababashyitsi.

Ibirori byo kwishimira umunsi wahariwe meto helifi bureyini cyangwa se iby'imitekerereze ya muntu cyangwa ibijyanye n'ubwonko, rero uyu ni umwe mu baganga badufasha mu bijyanye n'ubuvuzi bwo guturisha ubwonko, kubushyira ku murongo, rero ni ibirori byitabiriwe n'abantu benshi aho bishimiye rwose ko byibura ubwonko buri kugenda bujya ku murongo mu buryo bwiza.

Kwa muganga aho umuganga cyangwa se umubyeyi ari gufasha ari gufata nko gutondeka imiti ihabwa abantu runaka biba byiza rero iyo imiti iteguwe ifungiwe ahantu hamwe ku buryo umurwayi igihe araza ataza kwibeshya nko gufata imiti hataza kwibeshyaho mu kumuha imiti ukawumuha imiti itari yo cyangwa itu riyiza rero iyo umuntu ayiteguye mbere akayishyira ku murongo kugira ngo bigende neza.

Umumama n'umwana bari kuganira, bari gukina udukino tw'abana two gutomboza two ku dupapuro, ni umuryango ugaragara nk'aho wishimye, aho umubyeyi aba ari gukinisha umwana we ndetse bino biba bikenewe cyane nko ku babyeyi by'umwihariko b'abamama, gukinisha abana babo kugira ngo bongere umubano hagati y'umwana n'umubyeyi.

Mu nama aho abaganga bari gufata amahugurwa cyangwa se inama mu mivurire y'abantu, aho bigaragara ko bitabiriye cyane ndetse biba ari iby'ingenzi cyane kurushaho guhugurwa kugira ngo tugendane n'aho igihe kigeze cy'iterambere, turushaho guhabwa ubuvuzi cyangwa serivisi inoze mu gihe cy'ubuvuzi.

Seritifika cyangwa se icyemezo cyemeza ko ibintu runaka ufite impamyabumenyi kuri icyo kintu runaka ziri gutangwa hagati mu bantu batandukanye aho biba ari ingenzi ko nk'umuganga agomba kubabifitiye impamyabumenyi koko yerekana ko ibyo bintu abiziho yabyize biba ari iby'ingenzi cyane.

Turi kwa muganga aho hari ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga bigezweho bikoreshwa mu buvuzi ibingibi rero bidufasha kurushaho kubona ubuvuzi bwizewe kandi buteye imbere bityo bi bikadufasha kubaho mu buzima bwiza aho buzira umuze.

Kwa muganga aho hari umuganga ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara nkaho ari ibitaro cyangwa se ivuriro riteye imbere, aho rifite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse bino bikoresho bidakunze kuboneka ahantu hose.

Iri kugaragaramo abantu benshi harimo urujya n'uruza rw'abantu, abaganga, abakozi bandi, ndetse bigaragara ko ari inyubako iteye imbere aho zimwe nk'izi nyubako zikenewe cyane aho umuntu nko mu Rwanda usanga ubuvuzi bumaze gutera imbere. Bifasha abarwayi kwivuriza ahantu heza hafite isuku ndetse binaturinda n'izindi ndwara zitandukanye twakabaye twari kwandurira kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo aho ibigo nderabuzima by'umwihariko nko mu bice by'icyaro cyangwa se no mu mujyi, bitanga serivisi z'ibanze ku buvuzi nko gupima abagore batwite kureba ubuzima bw'abana uko buhagaze ndetse no kuvura izindi ndwara zitandukanye, aho biba ari iby'ingenzi cyane kuko bifasha abaturage kurushaho kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye umuntu yifashisha nko muri siporo cyangwa se igihe wagize imvune runaka, harimo ama pomade, amavuta wakisiga igihe wakoze siporo, pomade zigufasha igihe wavunitse, n’ibindi bikoresho wakwifashisha igihe uri muri siporo kugira ngo umubiri wawe urusheho kumererwa neza.

Imikino y'imyidagaduro cyangwa se siporo ku bantu basanzwe, hari kugaragara abasore bari muri siporo aho siporo ari umukino ukundwa ufasha mu kugorora umubiri ndetse zino siporo zijya zifasha n'umuntu cyangwa se imikaya y'umuntu y'umubiri w'umuntu kurushaho kumererwa neza.

Imiti cyangwa se ubuvuzi bukomoka ku bimera gakondo aho twabonamo wenda nk'ibikakarubamba, imigwegwe n'ibindi byatsi bitandukanye bijya bifasha mu buvuzi gakondo cyangwa se nk'imiti yo mu kinyarwanda, aho bivura indwara zitandukanye by'umwihariko nk'iz'uruhu cyangwa se za amibe n'ibindi.

Ibintu bitandukanye harimo ibyo twakwita nk'ibyakomotse ku bimera byo mu giturage bikorwamo imiti ivura abantu, ariko by'umwihariko hano ntago biba bikiri ibimera ahubwo biba byanitswe bigatunganywa neza biri hafi yo kwitegurarwa kuba byakoreshwa nk'imiti koko, hano biba bikiri mu nzira bari kubitunganya.

Umuganga cyangwa se umugabo ufite ibimera bikomoka ku byatsi bikomoka mu butaka aho byifashishwa mu gukoramo imiti itandukanye bifashisha nk'ubuvuzi kugira ngo bavure abantu cyangwa se bakoremo indi miti itandukanye ifasha umuntu kurushaho kumererwa neza.

Ibimera bimera mu giturage cyangwa se mu mirima aho bifasha abantu cyangwa se abahanga mu kubibyazamo imiti itanga ubuvuzi gakondo by'umwihariko nko ku ndwara iz'uruhu cyangwa se izindi zo mu nda nka amibe n'izindi. Ibimera biba ari ingenzi cyane kuko akenshi nibyo n'inganda zikora imiti zikoresha kugira ngo batange ubuvuzi ku bantu.